Inzu yicawemo n'abantu benshi ku ntebe ziteyemo ndetse n'ameza hasi hashashemo itapi isa n'ubururu, amatara y'umweru menshi ari kwaka hejuru.

Inzu yicawemo n'abagabo ndetse n'abagore irimo ameza imbere yabo ashesheho igitambaro cy'umuhondo ndetse n'icyatsi. Hejuru akaba ateretseho imitobe isa n'icunga ryihishije ndetse n'amazi yo kunywa inyuma yabo hicaye abandi bantu benshi.

Abagabo babiri n'umugore umwe witangiriye itama, bicaye ku meza ariho amazi ari mu icupa ribonerana ndetse na mudasobwa y'umukara, iruhande rwayo naho hateretse agacupa k'amazi.

Inzu ikorerwamo inama yicawemo n'abagabo ndetse n'abagore, bari kwiga ku ngingo runaka, ku nkuta zayo hari igikoresho gikoresha amazi gisa n'umutuku, gicometseho umupira ujya ahantu haba hari amazi mu kigega cyangwa se kuri robine, icyo gikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi yo kunywa, bari gukoresha za telefoni ndetse na mudasobwa, harimo n'ibirango bya RURA.

Umuyobozi ari imbere y'abaturage barimo abakecuru, abagabo ndetse n'abasaza bicaye munsi y'igiti hanze harimo arabaha imbwirwaruhame.

Icyumba cyicawemo n'abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara zegamirwa, zifite umuryango ufunguye w'ibirahure inyuma yayo hari igikuta gisize amarangi y'umweru.

Abagore ndetse n'abagabo bicaye mu nzu ifite inkuta zisize amarangi y'umweru imbere yabo hari ameza ashasheho ibitambaro by'ubururu ndetse n'umuhondo bari kwiga ku ngingo runaka.

Inzu iteraniyemo abantu barimo abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe zishasheho igitambaro cy'umweru ndetse hari n'ameza nayo atwikirijwe ibitambaro by'umweru hariho amazi yo kunywa hejuru. Imbere yabo hari umugabo urimo kubabwira ibintu runaka.

Ihuriro ry'abarimo abagabo, abagore bicaye mu nzu hari ameza atwikirijwe ibitambaro by'umweru ariho za mudasobwa amazi yo kunywa, imbere yabo hicaye abantu b'abayobozi nabo bari gukoresha za mudasobwa.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye imbere yabo hari impapuro ndetse bafite n'amakaramu bari kwandika, muri icyo cyumba hamanitsemo insakazamashusho, televiziyo imanitse ku rukuta irazimije.

Abagabo n'abagore bicaye mu nzu ikorerwamo inama, imbere yabo hari ameza ashasheho igitambaro cy'umutuku, hari inyandiko, hari n'amazi yo kunywa, bari kuganira.

Umugore uri kuvugira mu ndangururamajwi yambaye impeta ku rutoki, afite inyinya mu menyo, yambaye amaherena ku gutwi, afite umusatsi wa karemano, inyuma ye hari icyapa cya RGB.

Icyumba cyicayemo abagabo n'abagore bafite mudasobwa, amazi yo kunywa ndetse n'impapuro biri kumeza ashasheho igitambaro cy'umukara, ateye mu buryo bw'amasibo.

Icyumba giteraniyemo urubyiruko rw'abasore n'inkumi bicaye bari gukora imikoro itandukanye, bafite amakaramu, ndetse bari kubumbura inyandiko barebaho ibintu.

Icyumba cy'inama cyicawemo n'abagore ndetse n'abagabo, ku meza azengurutse inyuma yabo hari ibyapa bishinze byanditseho ibintu, hari n'amadirishya yinjiza urumuri inyuma yabo.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi, bicaye batuje ku ntebe, imbere yabo hari umuyobozi uri kuvugira mu ndangururamajwi wambaye ikoti, inyuma ye hari ibirango bya Kigali yacu, Kigali ikeye.

Abagabo n'abagore bicaye mu nzu, ku meza ateretseho amazi, za mudasobwa ndetse n'impapuro, bicaye ku ntebe zitwikirijwe ibitambaro by'umweru, imbere yabo hicaye abagabo barimo barabahugura.

Abagabo batatu bicaye mu nzu ifite ikirahure cyinjiza urumuri mu nzu kibonerana, bicaye ku meza ariho za mudasobwa zifunguye.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo ndetse n'abagore bari mu mahugurwa, bicaye ku ntebe zegamirwa imbere yabo hari ameza ashasheho igitambaro cy'umutuku ateretseho n'amazi mu icupa ribonerana.

Umugabo ndetse n'umugore bakora muri komite y'umujyi wa Kigali, bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari ameza ariho indangururamajwi, inyuma hari amagambo yanditse ngo "Kigali yacu, Kigali ikeye."

Abagore babiri bari mu cyumba cy'inama, bicaye ku ntebe z'umukara, z'imisego zegamirwa, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi, mudasobwa ndetse n'utwapa duto tugaragaza ibihugu bakomotsemo.

Icyumba cy'inama giteraniwemo n'abagabo ndetse n'abagore bicaye, imbere yabo hari ameza, hariho impapuro, amazi yo kunywa, idangururamajwi, barimo bariga ku ngingo runaka.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore bahagaze bari kwifotoza, bafata ifoto y'urwibutso inyuma yabo hari ibirango biri ku cyapa kirimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Icyumba cyicawemo n'abagabo ndetse n'abagore bari mu nama, bicaye ku ntebe z'umukara zegamirwa bari kwandika kuri mudasobwa ndetse abandi barandika mu makaye n'ikaramu, hari n'abanyamakuru bari gufotora

Mu nzu hateraniyemo abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara ziteye iruhande rw'ameza ku buryo barebana n'abari iruhande rw'imbere yabo. Ayo meza ateretseho mudasobwa n'amazi yo kunywa.

Hanze izuba riri kuva, hari imbuga iharuye irimo amahema asa n'umweru, hicayemo abantu mo imbere ndetse hanze y'amahema hari abantu benshi bafite ibikoresho by'umuganda birimo n'amasuka.

Abantu barimo abagabo, abagore ndetse n'abana, baje mu gikorwa cy'umuganda, bitwaje ibikoresho birimo ibitiyo ndetse n'ibivomesho, bicaye hanze imbere ya bo umuyobozi ari kubaha imbwirwaruhame.

Icyumba cyicawemo n'abagabo ndetse n'abagore baje mu nama, imbere yabo hari utwapa tugaragaza ibigo bahagarariye ndetse hari n'amazi yo kunywa, ari mu icupa ry'ikirahure.

Abagabo ndetse n'abagore bazamuye igipfunsi, bashyigikiye umugabo ubahagaze imbere uri kubabwira imbwirwaruhame akoresheje indangururamajwi, inyuma ye hari umupolisi wicaye ndetse n'abandi bantu barimo n'umusirikare.

Icyumba cyicawemo n'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore; bafite za mudasobwa bari kwandikamo; bose bari kureba imbere ahari umuntu uri kubereka ibintu.

Inzu ikorerwamo inama ndetse n'amahugurwa yicawemo n'abantu barimo abagabo batatu bicaye imbere, bicaye ku ntebe z'umukara zegamirwa bari kumwenyura ndetse n'imbere yabo hari indangururamajwi.

Abantu barimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye hamwe bari kwiga ibintu runaka, bafite amakaramu ndetse n'aho kwandika, ameza hateretseho amazi ari mu icupa ndetse na mudasobwa.

Umugabo wambaye amadarubindi ufashe indangururamajwi y'umukara mu ntoki ari kuyivugiramo, ari kubwira abaturage bicaye imbere ye barimo abasaza ndetse n'abakecuru, inyuma ye hari ihema ry'umweru ryicawemo n'abarimo abasirikare ndetse n'abapolisi.

Inzu yicayemo abagabo ku ntebe z'umukara zifite imisego zegamirwa, abagabo hari ameza ari imbere yabo, ateye ku buryo barebana, hariho amazi ndetse n'indangururamajwi.

Abagore bicaye mu nzu ku ntebe z'umukara zegamirwa, imbere yabo hari ameza ariho amazi mu gacupa kabonerana, bafite amakaramu ndetse n'aho kwandika imbere yabo.

Ihuriro ry'abantu bicaye ku ntebe zisa n'icunga rihishije imbere yabo hari abayobozi bafashe ku idarapo bazamuye ikiganza bari kurahira.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu, wambaye ikoti na karavati, wambaye n'amadarubindi y'umukara, ari kuvuga ibintu ndetse inyuma ye handitse amagambo y'inama ishinzwe ishoramari muri Nyagatare.

Abagabo n'abagore bari mu nzego zitandukanye, bambaye imyambaro y'imipira y'amaboko magufi, iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, iririho idarapo ry'u Rwanda mu gatuza.

Umugabo wambaye ikote, ahagaze imbere ari kuvugira mu ndangururamajwi y'umukara, aho ahagaze hari akameza bavugiraho kanditseho RGB, iki ni ikigo cy'Igihugu gishinzwe imiyoborere.

Ihuriro ry'abagabo n'abagore bicaye mu nzu isize amarangi y'umweru ku nkuta, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru bishasheho, hateretseho amazi ndetse na mudasobwa.

Umunara wubakishijwe ibyuma bisa n'icyatsi ufite ibikoresho bimeze nk'amatara yo mu nzu bisa n'umweru bimanitse hejuru ndetse n'ibindi bimeze nk'ingoma nabyo bisa n'umweru bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni ngendanwa.

Abantu bari kugenda hanze mu gahanda gashashemo amabuye, iruhande rwako hari inzu y'amagorofa ifite ibirahuri bitabonerana bisa n'ubururu.

Umunara wubakishije ibyuma bisize amarangi y'umweru ndetse n'umutuku, umanitseho ibyuma bimeze nk'amasahani manini bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni ngendanwa.

Urubuga nkoranabuhanga rw'irembo rukoreshwa mu kwaka serivisi za leta, harimo serivise zikunze gusabwa nk'ibyangombwa by'amavuko, ibyemezo byo kuba warashyingiwe ndetse n'ibindi.

Abantu bari mu nama bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga n'iyakure bw'imbonankubone bari kugaragaza imirimo ndashyikirwa yo mu ntara y'iburasirazuba ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri muri bibiri na makumyabiri na kabiri.

Inzu ifite icyumba cyicawemo n'umukozi wambaye ishati y'amaboko maremare harimo ameza ariho icyuma cyifashishwa mu gusohora inyandiko.

Icyumba kirimo abanyeshuri gikoresherezwamo za mudasobwa ziteretse hejuru ku meza, harimo umwarimu wambaye agapfukamunwa, uri kwereka abanyeshuri uko mudasobwa zikoreshwa.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri ku ntebe zifite ameza ariho mudasobwa barimo barazikoresha, bose bafite mudasobwa ziri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru.

Umunara muremure ufite ibikoresho by'ibyuma bishinze ku butaka biri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, hejuru hamanitseho ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu itumanaho ry'amaterefoni ngendanwa.

umunsi mpuzamahanga w'umurimo ahazaza h'umurimo intego dusangiye uyu munsi wizihizwa ku itariki ya mbere gicurasi buri mwaka imirimo ikorwa mu buzima rusange harimo imirimo y'ubwubatsi, ubuhinzi, kwigisha, ubuganga n'iyindi myinshi.

Umunara muremure wubakishijwe ibyuma bisa n'umweru ndetse n'umutuku, hejuru hafasheho ibyuma bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni ngendanwa.

Umugore wicaye mu biro inyuma ye hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ryo mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, naho iruhande rundi hari ikirango cya repubulika y'u Rwanda.

Ibiro birimo ameza ateretseho za mudasobwa zicanye harimo umugore ukorera muri ibyo biro ari gukoresha mudasobwa, abagabo ndetse n'umugore bamuhagaze hejuru barimo baramusaba serivisi.

Iyo umuntu agiye kwiyandikisha gukorera uruhushya rw'ibinyabiziga agomba kuba yujuje ibi bikurikira, icya mbere ni uko uwiyandikisha agomba kuba afite ikarita ndangamuntu y'u Rwanda, icya kabiri agomba kuba afite imyaka nibura cumi n'itandatu y'amavuko, icya gatatu agomba kuba afite nimero ya terefone ikora cyangwa se imeri ye.

Umunara wubakishijwe ibyuma bisize irangi ry'umweru ndetse n'umutuku hejuru uriho ibikoresho bimeze nk'ingoma bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni ngendanwa ukaba uzitiwe n'ibyuma.

Abana babiri bafatanye ukuboko bari kugendera mu kayira kari impande y'umuhanda wa kaburimbo kagendwamo n'abanyamaguru bavuye ku ishuri, impande yabo hari icyapa cyanditseho irembo.

Imbuga ishashemo amatafari ahiye imbere yayo hicaye umugore wambaye ijire y'umuhondo ndetse inyuma ye hari icyapa kigaragaza ko aho ahantu hatangirwa serivisi z'irembo ndetse no gufotora amafoto magufi.

Agasanduku k'umweru kubatse hanze impande y'umunara utwarwaho insinga z'amashanyarazi, karimo insinga ziteranyirijemo zijyana amashanyarazi mu gace.

Agasanduku k'umweru gafunguye, gateranyirizwamo insinga z'amashanyarazi zo mu gace, inyuma yako hari ibiti byo mu irerero, aho bihumbikirwa.

Igiti cy'ipoto kimanitseho insinga z'amashanyarazi, zinyuraho zijya mu gace ndetse zijya no mu nyubako zituriye iryo poto, hari inyubako isakaje amabati iteye karabasasu, ikaba ifite itara ryo hanze.

Igiti cy'ipoto gishinze ku butaka kinyurwaho n'insinga z'amashanyarazi zijya ku nzu zituriye ahongaho ndetse n'andi ajya mu kandi gace ku rindi poto riri hirya.

Uruzitiro rw'inzu rufite ibyuma bya senyenge hejuru bifata abajura, hariho kandi n'itara rimurika mu muhanda, mu imbere harimo umunara unyurwaho n'insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo yumukara ufite agahanda gashashemo amabuye, iruhande rw'iburyo kagendwamo n'abanyamaguru, hepfo y'aho hari ibiti byinshi, biteye kandi hari ni'ipoto iriho insinga z'amashanyarazi.

Inzu y'amagorofa, yubakishijwe amatafari, ikikijwe n'amabati, iruhande rwayo hari ipoto ry'igiti rinyurwaho n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi, iruhande rwaryo hateye igiti gifite amababi.

Inyubako igizwe n'amatafari ahiye, ifite amadirishya asa n'ubururu, iruhande rwayo hashinze igiti cy'ipoto kinyurwaho n'insinga z'amashanyarazi ndetse hari n'indabo zisa n'umuhondo.

Ipoto rishinze hanze rinyurwaho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi hejuru kandi hari udusanduku dutoya, natwo duteranyirizwamo insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Ipoto rishinze ku butaka ririho itara ryo ku muhanda ryaka nijoro igihe izuba ryarenze rinyurwaho n'insinga z'amashanyarazi, impande yaryo hari ibiti biteye ku muhanda bizana umuyaga.

Igiti cy'ipoto gishinze hanze hariho insinga z'amashanyarazi zisa n'umukara ziri kunyura ku icyo giti, iruhande rw'aho giteye hateye ibiti ndetse hari n'igiti cy'amashami menshi.

Ipoto riri hanze rishinze mu murima urimo ibihingwa birimo ibigori bitaraheka, riranyurwaho n'insinga z'amashanyarazi ajya mu gace. Hirya yaho hari n'umunara nawo unyurwaho n'insinga z'amashanyarazi.

Urugomero rw'amashanyarazi rwubatswemo n'ibyuma bitanga umuriro w'amashanyarazi bifashe ku butaka, ndetse hari n'umunara wubakishije ibyuma unyurwaho insinga ziva kuri ibyo byuma bitanga umuriro w'amashanyarazi zikawukwirakwiza mu duce.

Uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, mu imbere harimo ibiti ndetse n'inyuma hari ibiti by'amashami byagandaye, hari n'icyapa gishinze ku muhanda gifite ishusho y'uruziga mu buso bw'ubururu.

Igiti cy'ipoto gishinze hanze kinyurwaho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, iruhande rwacyo hateye indabo ndetse munsi yaho hari ibirere by'insina.

Iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara hari igiti cy'ipoto igikoze mu cyuma kiriho agasanduku nako mu cyuma, hejuru hamanitse ibikoresho bya kamera bikoreshwa mu gucunga umutekano wo mu muhanda.

Ipoto riri hanze rinyurwaho n'insinga z'amashanyarazi inyuma yaryo hari umunara muremure uriho ibikoresho bimeze nk'ingoma ndetse n'amatara yo mu nzu yaka bikoreshwa mu itumanaho rya telefoni ngendanwa.

Ipoto rishinze hanze rinyurwaho n'isinga z'amashanyarazi rikaba ririho itara ryo ku muhanda ryaka igihe izuba ryarenze rikamurikira ibinyabiziga ndetse n'abaca mu nzira nyabagendwa nijoro igihe izuba ryarenze.

Umunara wubakisheje ibyuma unyurwaho n'insinga z'amashanyarazi. Iruhande rwawo hari akazu gato kubakishijwe amatafari ahiye hejuru hateretseho icyuma gikoreshwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi mu gace.

Igiti cy'ipoto gishinze hasi ahantu hateye ibihingwa ndetse n'ibiti kiranyurwaho n'insinga z'umukara zitwara amashanyarazi mu gace, inyuma yaho hari ahantu hatuwe cyane.

Hanze iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo hari umutaka wa MTN, uri munsi y'ibiti usa n'umuhondo, ushinze mu gasanduku kameze nk'akameza gasa n'umuhondo kanditseho MTN.

Umunara wubakishije ibyuma bishinze ku butaka, uranyurwaho n'insinga z'amashanyarazi. Amashanyarazi akoreshwa mu nganda mu kwatsa imashini zikora imirimo itandukanye ndetse no mu ngo arakoreshwa.

Ibyuma bibiri by'amapoto bishinze ku butaka, ndetse hagati yabyo hubakiwemo icyuma gikoreshwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi ajya mu duce hirya yaho hateye igiti.

Ipoto inyurwaho n'insinga z'amashanyarazi zisa n'umukara zijya mu duce ndetse no mu ngo zituriye aho ngaho, imbere yayo hari inyubako ikorerwamo imirimo yo gusukura imyenda badakoresheje amazi.

Igiti cy'ipoto gishinze impande y'umuhanda nyabagendwa kinyurwaho n'isinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, iruhande rwacyo hari inzu y'amagorofa, ndetse hari n'imbuga iteyemo ibiti.

Umunara w'ibyuma bishinze ku butaka bisobekeranye, hejuru hanyurwaho n'insinga z'amashanyarazi ajya mu duce dutandukanye, inyuma yaho hari agasozi gateyeho ibiti byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo usa n'umukara, iruhande rwawo ufite inzira yagenewe kugendwamo n'abanyamaguru, hari kugendamo abantu benshi, iruhande rwayo hashinze ipoto ririho itara ryo ku muhanda.

Hanze ku zuba hari igiti giteye impande y'inzira nyabagendwa, munsi yacyo hari umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'imodoka. Hirya hari umunara w'ibyuma unyurwaho n'isinga z'amashanyarazi.

Hanze izuba riva hari umuhanda uri kugendwamo n'imodoka y'umukara, iruhande rw'umuhanda hari igiti cy'ipoto kinyurwaho n'insinga z'amashanyarazi, ajya mu gace ni insinga zisa n'umukara.

Umunara w'ibyuma byubatse bishinze ku butaka bisobekeranye bifite amaguru atatu, hejuru yawo haranyurwaho n'insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro w'amashanyarazi mu duce.

Abakozi bahuriye ku byuma bishinze biriho ibikoresho bitanga umuriro w'amashanyarazi, bambaye ibikoresho by'ubwirinzi birimo ibiserubeti, imigozi ibafata ndetse n'ingofero z'ubwirinzi.

Inzu irimo ibiro birimo abantu batatu, umugore wambaye ikoti ry'umweru arahagaze n'aho abandi babiri baricaye, harimo intebe zo kwicaraho ndetse hari n'amatara y'umweru ari kwaka.

Ibitaro bifite imbangukiragutabara ebyiri, bikaba bifite urubaraza rutwikiriye ruteyemo intebe zicarwaho n'abarwayi baje kwivuza. Imbangukiragutabara irimo irakuramo umurwayi.

Kwa muganga hari icyumba abantu bategerererezamo gifite inkuta z'umweru hariho n'ifoto gifite amadirishya akozwe n'ibirahure bibonerana byinjiza urumuri harimo intebe z'ibyuma bicaraho.

Ibitaro bifite inyubako, hanze hari urubaraza rurimo intebe zegamirwa, aho abategereje serivisi zo ku bitaro bicara, bifite ubusitani burimo indabyo ndetse n'ibyatsi biconze neza.

Kwa muganga hari inyubako zubakishije amabati ndetse hari n'inzu yubakishije amatafari ahiye ifunze urugi, hari ikirongozi gihuza inyubako imwe n'indi nyubako zo kwa muganga, gitwikirije amabati.

Inyubako zo kwa muganga zifite ikirongozi gitwikirijwe n'amabati ndetse hasi hashashemo isima, iki kirongozi kirahuza inyubako imwe y'ibitaro ndetse n'indi nyubako.

Umugore wicaye ku ntebe zo mu biro ari gukoresha mudasobwa iteretse hejuru y'akameza ko mu biro, iruhande rwako hari akandi k'ameza na ko ko mu biro.

Amadarage azamuka ajya mu mbuga iparitsemo imbangukiragutabara isa n'umweru, yandikishijemo amagambo y'ubururu ngo: "Imbangukiragutabara", iyo mbuga irimo n'izindi modoka iruhande rw'imbangukiragutabara ziparitse.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye aho bivuriza ku ntebe ziri mu rubaraza rutwikirije amabati. Imbere yabo hahagaze umukozi wo kwa muganga wambaye itaburiya isa n'ubururu. Yambaye n'akantu mu mutwe k'akanozasuku.

Imfungwa n'abagororwa bari mu mbuga iri hanze, izuba riri kuva bafite ibivomesho by'amajerekani ndetse hari n'umucungagereza hari n'akazu gatwikirijwe amabati kicawemo n'imfungwa.

Umugabo wirabura wambaye ikanzu isa n'umutuku ifite igice gisa n'umweru mu gatuza, uyu mugabo akora mu mirimo ijyanye n'amategeko ndetse n'ubucamanza.

Abagabo babiri b'imfungwa n'abagororwa bambaye imyenda isa n'iroza barirabura basohotse mu muryango w'inzu ifite urugi rukozwe n'ibyuma bisobekeranye mu mwanya ushyirwaho ikirahure.

Hanze urubanza rwitabiriwe n'imfungwa n'abagororwa ndetse n'abantu baje kurwumva, bicaye ku zuba hanze imbere y'inzu, bamwe bitwikiriye imitaka y'amabara abandi bicaye ku zuba batitwikiriye ku dutebe ndetse n'abandi bicaye hasi.

Abagabo babiri b'abagororwa bambaye imyambaro y'iroza bafashe agatanda batwayeho umuntu uryamye woroshe ishuka, bari kugendera iruhande rw'inzu ifite ibikuta byubakishijwe amatafari ahiye.

Abagabo bane bari muri komite y'inyangamugayo zambaye igitambaro kirimo amabara y'idarapo ry'u Rwanda risa n'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu bicaye ku ntebe bafite inyandiko.

Umunyarwanda Kabuga Felicien, wambaye amadarubindi ndetse ufite imisatsi irimo imvi wambaye n'ikoti, arashakishwa kubera ibyaha akurikiranwaho bya jenoside yakorewe abatutsi.

Mu nzu mo imbere hicayemo abavoka bambaye amakanzu y'umukara afite agace k'umweru mu ijosi bose bambaye udupfukamunwa tw'ubururu dupfutse umunwa n'amazuru, imbere y'abo hari za mudasobwa bari kuzikoresha.

Umugore ufite imisatsi y'umukara miremire akaba yambaye amadarubindi y'umukara, amaherena ndetse akaba yambaye n'ikanzu y'abantu bakora mu mirimo y'amategeko ifite igice gisa n'umukara n'umweru mu gatuza ikanzu ikindi gice kirasa n'umutuku.

Abantu bari hanze izuba riri kuva bicaye ndetse hari n'abandi bahagaze munsi y'igiti gifite amashami menshi, hagati yabo hari intebe y'urubaho yegamirwa yicaweho n'abayobozi bane.

Abavoka babiri bambaye udupfukamunwa tw'ubururu hagati yabo hicaye umugabo ukurikiranyweho ibyaha na we yambaye agapfukamunwa k'iroza ndetse n'imyambaro y'iroza.

Umugore w'imfungwa wambaye imyambaro isa n'iroza arirabura yambaye amadarubindi, inyuma ye hari abacungagereza babiri bambaye imyambaro isa na kaki, bambaye ingofero uw'umugabo ari imbere y'imodoka.

Umugabo wirabura, wambaye ikanzu isa n'umutuku, ifite igice cy'umukara ndetse n'umweru mu gatuza, uyu mugabo akora imirimo ijyanye n'amategeko ndetse n'ubucamanza.

Imfungwa n'abagororwa bambaye imyambaro y'iroza bari hanze batoye imirongo ibiri, bakaba bambaye n'udupfukamunwa dusa n'ubururu. Impande yabo hahagaze umucungagereza nawe wambaye agapfukamunwa, imodoka ibari inyuma ikaba irimo ikuramo izindi mfungwa.

Wari uziko ukwiye kwirinda abagira ibyo bagusaba bakwizeza kuzagufasha kubona ubutabera mu nkiko, birinde ubutabera nti bugurwa hari ikirango cya repubulika y'u Rwanda k'ubu butumwa.

Abantu bicaye hanze mu rukiko rwa gacaca aho habaga harimo inyangamugayo ari zo zacaga urubanza rwashinjwagamo abantu, abaturage bicaye bazamuye ibiganza gacaca yari igamije kuzana amahoro ndetse no gutuma abantu biyunga.

Imodoka ya polisi isa umweru ndetse n'umukara yicawemo n'abantu iragendera mu muhanda wa kaburimbo isa n'umukara, impande yawo hari indi modoka nayo y'umukara iri kugendera muri kaburimbo.

Umuporisi wambaye impuzankano ya giporisi ahagaze hagati mu muhanda wa kaburimbo, inyuma ye hari ibinyabiziga birimo amapikipiki ndetse n'imodoka zihagaze byose byubahirije amategeko.

Inyubako y'amagorofa ikorerwamo ibizamini byo gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga iherereye ku muhima, imbere yayo hari imbuga iparitsemo imodoka.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi ku mapikipiki baparitse mu mbuga, imbere y'abo hari umupolisi wambaye impuzankano ya gipolisi arikubaha amabwiriza.

Ibikoresho bikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro bibiri bisa n'umutuku biri mu icupa rifite umupira ndetse n'akantu bakanda, byose bimanitse ku gikuta cy'inzu irimo amakaro ashashe hasi.

Imodoka ya polisi isa n'umweru ndetse n'umukara, yanditseho amagambo polisi ishami ryo mu muhanda, igeze ku cyapa cyerekana ko ukase ibumoso waba ugiye i Muhanga n'aho wakomeza inzira ukaba ugeze ku mupaka wa gatuna.

Umupolisi wambaye impuzankano ya gipolisi ahagaze ku ruhande ruciyeho imirongo y'umweru iciye muri kaburimbo aho abagenzi bambukira, barimo barambukira mu icyo gice giciyemo imirongo y'umweru.

Ibikoresho by'icupa risa n'umutuku birimo ibinyabutabire bikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro biteretse hasi bifite umupira w'umukara ndetse n'umwanya bakandaho igihe umuntu azimya inkongi.

Igikoresho gisa n'umutuku gifite umupira ucamo amazi ava mu kigega cg se ku isoko akoreshwa mu kurwanya inkongi y'umuriro, kikaba kimanitse ku gikuta.

Mu nzu mo imbere hari igikuta kimanitseho ibikoresho bikoreshwa mu kuzimya inkongi y’umuriro, hari igikoresho cy'umutuku cy'icupa, gifite ibinyabutabire bikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Mu muhanda wa kaburimbo iruhande rwawo hahagaze umupolisi wambaye impuzankano ya gipolisi, ari gukoresha ibimenyetso by'ukuboko ahagarika imodoka ya bisi, itwara abagenzi isa n'umweru ku ruhande.

Uruzitiro rukozwe n'ibyuma bisize irangi ry'umweru mu imbere hari icyuma gikoreshwa mu guhashya no kuzimya inkongi y'umuriro gifite ihombo isize irangi ry'umutuku.

Umupolisi wambaye imyambaro y'ubwirinzi ari mu gikorwa cyo kuzimya inkongi y'umuriro, yambaye agapfukamunwa afashe igikoresho gifite umupira w'umutuku ufite umunwa uri guturukamo amazi menshi.

Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ahagaze imbere y'imbaga y'abantu, bicaye muri sitade, ari kuvugira imbwirwaruhame imbere yabo, imbere ye hari indangururamajwi.

Abagore ndetse n'abagabo bahagaze imbere bafashe ku idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, ririmo amabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, bushushanyijemo izuba n'imirasire yaryo, barimo bararahira bazamuye ikiganza.

Abantu benshi barimo abagore ndetse n'abagabo, bafite amadarapo ya FPR, ari mo ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'ubururu ndetse bafite n'ifoto y'umukandida wa FPR Paul Kagame.

Ikirango cya repubulika y'u Rwanda cyakoreshwaga mu myaka iri hasi y'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda n'icyenda, cyari kirimo amabara y'idarapo ry'igihugu, umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, kirimo n'amagambo yanditseho repubulika y'u Rwanda.

Abagabo babiri bicaye imbere ku ntebe zisa umukara zegamirwa, bambaye amakoti imbere yabo hashinze akadarupo k'igihugu cy'u Rwanda kari mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, kumeza bari imbere hariho inyandiko bari gusinya.

Uwahoze ari minisitiri w'intebe Uwiriningiyimana Agatathe, yicaye ku ntebe y'urubaho ifite igice cyegamirwa, iteye mu busitani bufite ibyatsi hanze.

Umugabo wirabura wateretse umusatsi w'umukara, uyu yahoze ari perezida wa repubulika yitwa habyarimana yuvenali, leta ye yaranzwe n'amacakubiri ndetse n'amakimbirane.

Umugabo n'umugore bose bambaye amadarubindi bicaye ku ntebe z'umukara zegamirwa zirimo n'imisego imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, indangururamajwi ndetse n'amazi.

Hanze hahagaze abagabo ndetse n'abagore, barimo barifotoza. Abagore bakenye imikenyero, inyuma yabo hari ibiti biteye, bigaragaza ubwiza bw'ahantu bahagaze.

Umukandida w'ishyaka rya green party wiyamamarizaga kuba umuyobozi w'igihugu cy'uRwanda, frank HABINEZA arimo arafotora akoresheje telefoni igezweho.

Abagore n'abagabo b'abayobozi bahagararanye na Perezida wa repubulika Paul Kagame, inyuma yabo hashinze idarapo ry'u Rwanda ndetse n'ikirango cy'igihugu, barimo barifotoza.

Inzu irimo ibiro bikorerwamo inama biriho ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'indangururamajwi, hicayemo abagore n'abagabo, iruhande rwabo hari ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Abagabo n'abagore babukereye batonze umurongo baje ku cyumba cy'itora aho amatora abera, baje gutora abadepite ndetse n'umukuru w'igihugu.

Umukandida Muhayimana Philippe yari ari mu bikorwa byo kwiyamamariza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ahagararanye n'abamushyigikiye inyuma ye hari ibyapa bimwamamaza ndetse bishishikariza n'abantu kumutora, bahagaze hanze arikuvuga imbwirwaruhame avugiye mu ndangururamajwi.

Abagabo n'abagore bicaye mu nzu irimo intebe nyinshi, ifite ameza ariho indangururamajwi ndetse ateretseho n'amazi yo kunywa, baricaye bari kwiga ku ngingo.

Ahantu habera ibikorwa by'amatora imbere yaho hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru, hatatse ibitambaro by'umuhondo ubururu ndetse n'icyatsi abantu bari kujya gutora hejuru hari ibirango ndetse n'ibyapa byamamaza ngo twitabire amatora.

Ibiro byicawemo n'umuyobozi, mu ntebe y'umukara yegamirwa, imbere ye hari ameza, ariho akadarapo gato, kariho amabara y'ubururu, icyatsi, ndetse n'umuhondo, mu bururu hashushanyijemo izuba, n'imirasire yaryo.

Perezida Paul Kagame umukandida w'ishyaka rya FPR ari mu cyumba cy'itora arimo aratora, ari gushyira urupapuro yatoreyeho mu gasanduku k'itora, mu cyumba arimo inyuma ye hari n'undi mugabo na we uri gutora.

Umukandida Mpayimana Philippe uri kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda, ari kumwe n'abo bafatanyije kuyobora ishyaka bari gukoma amashyi, bashyizeho morare.

Umugore uri kumwenyura wambaye amaherena ku gutwi, wambaye n'umupira w'umweru ufite amaboko maremare yambaye n'isaha ku kuboko, aricaye mu ntebe iri mu biro imbere ye hari mudasobwa, inyuma ye hari idarapo.

Imodoka yo mu bwoko bwa bisi yanditseho Ritco, irimo amabara y'icyatsi ndetse n'umweru, iruhande rwayo haragendera umumotari uhetse umugenzi, byose biragendera mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka y'ihoho isa n'umutuku ifite igice cy'inyuma kimeze nk'isanduku nini ifunguye, hejuru itwarwamo ibikoresho byubwubatsi birimo amabuye ndetse n'imicanga. Iruhande rwayo haranyurwa n'abayobozi b'amapikipiki bahetse abagenzi.

Umuyobozi w'ipikipiki uhetse umugenzi inyuma ku ipikipiki, irimo iragendera mu muhanda wa kaburimbo isa n'umukara ku ruhande rwegereye aho abanyamaguru bagenda mu gahanda gashashemo amabuye, hari igare ryegetse.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari abakora umwuga wo gutwara abantu ku magare, bakabageza aho bagiye na bo bakabishyura amafaranga, bitwa abanyonzi, bambaye amajiri agaragaza koperative bakoreramo ndetse amagare yabo ariho n'imisego.

Ipikipiki y'amapine atatu yanditseho ko yakorewe mu rwanda, ifite igice cy'inyuma kimeze nk'isanduku, ifite inzugi ebyiri zihagaze, kirasa n'ubururu gitwarwamo imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara uragendwamo n'umuyobozi w'ipikipiki itukura, wambaye ingofero y'ubwirinzi itukura hirya y'umuhanda hari inyubako zitandukanye ndetse hari n'inyubako y'amagorofa bari kubaka.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'ibinyabiziga birimo ipikipiki ndetse n'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwihariye isa n'umutuku. Hakaba hari n'igare rihetse umugenzi riri kumanuka.

Imodoka ya bisi itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iparitse mu mbuganga ngari aho imodoka zitegerereza abagenzi, imbere yayo hari n'izindi modoka za bisi nazo ziraparitse.

Ipikipiki yamapine atatu ifite igice cy'inyuma gisa n'ubururu gitwarwamo imizigo, iragendera mu muhanda wa kaburimbo y'umukara, iruhande rw'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka ya bisi, itwaye abagenzi isa n'umweru ndetse n'indi modoka nto itwara abantu bane isa n'ifeza, ziri kujya mu cyerekezo kimwe.

Umugabo w'umukararani wambaye imyambaro isa n'ubururu irimo ipantaro y'ubururu ndetse n'ishati akorana isa n'ubururu, ari gusunika ingorofani ikoze mu giti.

Abayobozi b'amapikipiki babikora mu buryo bw'umwuga, ni ukuvuga gutwara abagenzi bakabageza aho bumvikanye na bo bakabishyura amafaranga bumvikanye, baparitse mu mbuga iruhande rwayo hari icyapa cy'icupa rinini ryanditseho koka kola.

Imodoka y'ikamyo itwara ibicuruzwa ifite igice cy'inyuma kimeze nk'isanduku gitwikirijwe shitingi gihehekwamo ibicuruzwa byinshi, shitingi y'ubururu ihambiriye ku byuma by'imodoka.

Imodoka iheka imizigo ifite igice k'inyuma gifunguye gikikijwe n'ibyuma birinda imizigo iteretse muri icyo gice, bitwikirije shitingi y'icyatsi ndetse n'umweru. Iyi modoka iragendera mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo, isa n'umweru , ifite igice cy'inyuma gihekwamo imizigo, gitwikirijwe shitingi y'ubururu iziritse neza, iruhande rwayo hari indi modoka nto igendwamo abantu bane isa n'umukara.

Umuyobozi w'ipikipiki wambaye ijire isa n'umuhondo ndetse n'ubururu, inyuma mu mugongo handitsemo imibare ukanda wabanje akanyenyeri igaheruka urwego, ari kugendera mu muhanda, imbere ye hari imodoka ndetse ari kubisikana n'undi muyobozi w'ipikipiki.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo uragendwamo n'ipikipiki y'amapine atatu isa n'icyatsi, ifite igice cyo hejuru gifunze gitwarwamo imizigo kimeze nk'isanduku ifunze neza, gisa umutuku.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo isa n'umweru ifite igice c'inyuma kimeze nk'idomoro ifunze hejuru hariho ipine ry'umukara iki gice gitwarwamo ibisukika birimo za peteroli, esansi cyangwa se amazi.

Gare aho abagenzi bategera imodoka zijya mu byerekezo bitandukanye birimo mu ntara ndetse no mu mahanga haparitsemo imodoka z'ubwoko bwinshi harimo imodoka ya litigo ni bisi itwara abagenzi hari n'umugabo iruhande rwe hari imizigo iri mu mufuka.

Umuhanda wa kaburimbo usa n'umukara urimo umwambi wandikishije ibara ry'umweru ritsiritse ureba imbere, iyi kaburimbo iri kugendwamo n'imodoka ndetse n'amapikipiki.

Mu muhanda wa kaburimbo usa n'umukara, uragendwamo n'amapikipiki ndetse hari n'ipikipiki y'amapine atatu ifite igice cy'inyuma gisa n'ubururu gihehekwamo imizigo itabasha kujya ku ipikipiki y'amapine abiri.

Ipikipiki y'amapine atatu isa n'ubururu ifite igice cy'inyuma gitwarwamo imizigo, gitwikirijwe ibyuma by'ubururu biriho nimero za terefoni, wahamagara igihe ushaka serivisi z'iyi pikipiki.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'imodoka y'Ihoho isa n'umutuku ihetse umucanga. Inyuma yayo hari ipikipiki ifite amapine atatu isa n'ubururu nayo iri kugendera muri kaburimbo.

Umuyobozi w'ipikipiki, wambaye ijire y'umuhondo ndetse ifite n'ibara ry'ubururu, hasi ari kugendera mu muhanda wa kaburimbo ageze ku gice kirimo imirongo y'umweru cyambukirwamo n'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'imodoka, hari imodoka itwara imizigo ihetse ibintu inyuma mu gice cyayo gikwamo imizigo ibisikana n'imodoka itwaye abagenzi mu buryo bwa rusange.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo, ifite igice cy'inyuma gifunguye gikoreshwa mu gutwarwamo imizigo irimo ibicuruzwa, iri kugendera ku muhanda wa kaburimbo isa n'umukara, impande yayo hagendwa n'ipikipiki ihetse umugenzi.

Mu muhanda wa kaburimbo isa n'umukara, haragendamo umuyobozi w'ipikipiki idahetse umugenzi, yambaye ijire y'umuhondo ndetse n'ubururu, mu mugongo handitsemo amagambo.

Umuhanda wa kaburimbo, uragenderwamo n'ibinyabiziga birimo amamodoka ndetse n'amapikipiki atwaye abagenzi, ku ruhande hari n'umuyonzi uhetse imizigo ku igare.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, isa n'umweru, ifite n'ibara ry'icyatsi mu mbavu, irimo abagenzi mo imbere, iragendera ku muhanda wa kaburimbo isa n'umukara.

Umuyobozi w'ipikipiki, ari kugenda inyuma y'imodoka y'ikamyo isa n'ubururu, ifite igice cy'inyuma gihekwamo imizigo, kirimo amajerekani atwikirijwe na shitingi y'ubururu.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo zidapakurura, ihetse ibinyobwa biri mu bikoresho bya parasitiki bisa n'ubururu ndetse n'umutuku, iragendera mu muhanda, iruhande rwayo hari umuyobozi w'ipikipiki uhetse umugenzi.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo ifite igice cy'inyuma gihekwaho imizigo, ifite igice cy'imbere cyicarwamo n'umuyobozi gisa n'umweru iragendera mu muhanda wa kaburimbo isa n'umukara.

Imodoka isa n'ubururu ndetse n'umweru itwara abagenzi mu buryo bwa rusange iragendera mu muhanda wa kaburimbo isa n'umukara, iruhande rwayo hari ibiti biteye iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'amapikipiki afite amapine atatu, impande yawo hari ahantu haparitse amamodoka menshi; inyuma yawo hari inyubako.

Ninjoro amatara araka, ni muri gare ahaparikwa imodoka z'amabisi zitegereje abagenzi zibajyana mu ntara cyangwa mu byerekezo bitandukanye, hahagazemo n'abantu muri gare bakoramo ndetse n'abandi baje gutega imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara, uragenderwamo n'ibinyabiziga bibiri, kimwe n'ipikipiki ifite amapine abiri, ikindi n'ipipiki igendera ku mapine atatu.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa bisi isa n'umweru, ifite n'amabara y'icunga rihishije, iragendera ku muhanda wa kaburimbo isa n'umukara, impande yawo hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo y'umukara uragendwamo n'umuyobozi w'igare afite ibicuruzwa by'ibinyobwa ahetse havuye kurangura imbere ye hari n'undi munyonzi nawe uhetse ibindi bicuruzwa by'ibinyobwa.

Mu mujyi wa Kigali iruhande rw'imbuga ngari, haragendwamo n'umugabo ndetse n'abana be babiri, ku tugare dusa n'umuhondo ndetse n'icyatsi. Barishimye barimo barasiganwa.

Sitade irimo intebe z'icyatsi zicarwaho n'abafana baje kureba umukino w'umupira w'amaguru, irimo ibyuma bishinze by'inkingi zifashe igisenge cya sitade biri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Ikibuga giteyeho ibyatsi biconze neza gikinirwaho imikino ya kiriketi giherereye muri Ayipiyarasi Kigali mu karere ka Kicukiro.

Ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, hashushanyijemo imyambi ibiri yo mu ibara ry'umweru ritsiritse bigaragaza umuhanda umwe ukomeza ushamikiyeho undi muhanda ukata ibumoso, iki cyapa gishingwa ku nzira nyabagendwa.

Icyapa cya mpande eshatu, gifite ubuso bw'umweru, gishushanyijemo umugabo uri kuyora ibitaka, akoresheje igitiyo mu ibara ry'umukara ritsiritse. Iki cyapa cyerekana ko mu nzira nyabagendwa imbere hari imirimo y'ubwubatsi bw'umuhanda.

Icyapa cya mpandeshatu, gifite ubuso bw'umweru, kirimo agasaraba mu ibara ry'umukara ritsiritse, cyerekana ko imbere hari ihuriro ry'umuhanda, munsi hari ikindi cyapa n'acyo cya mpandeshatu, kirimo abana babiri bafatanye ukuboko, kigaragaza ko imbere hari ikigo cy'ishuri.

Icyuma gishinze kimanitseho ibyapa bibiri icyapa kijya ku muhanda wa KN 3 AV ndetse n'icyapa kijya ku muhanda wa KN 30 ST.

Icyapa kigaragaza ko umuntu n'akomeza uyu muhanda aza guhita agera muri Repubulika ya Uganda hahagaze umugore yazamuye amaboko ni umuzungu.

Abagabo batatu bari kumanika icyapa cyanditseho ko imbere ukomeje uwo muhanda hari kamera yo mu muhanda icunga ko abayobozi b'ibinyabiziga batarenza umuvuduko wa mirongo itandatu.

Icyapa gishinze ku muhanda iruhande rw'inzira nyabagendwa gifite ubuso bw'umweru burimo igishushanyo cy'umuhanda ufite agahanda gato gashamikiyeho ku ruhande umukara utsiritse gishinze mu busitani burimo ibyatsi.

Icyapa gifite ubuso bw'umweru, gishushanyijemo imodoka ya bisi mu ibara ry'umukara ritsiritse, kikaba cyanditsemo n'amagambo y'umukara mu ibara ritsiritse, avuga ko aho hantu hahagarara imodoka za bisi.

Icyapa cya mpandeshatu gifite ubuso bw'umweru, kirimo umurongo w'umukara uberamye ndetse n'undi uwushamikiyeho uhagaze, iki cyapa cyerekana ihuriro ry'imihanda.

Icyapa gishinze gifite ishusho ya mpandeshatu, kirimo utumenyetso tw'urumuri dusa n'umutuku umuhondo ndetse n'icyatsi, ibi ni ibimenyetso biyobora ibinyabiziga mu muhanda ndetse n'abanyamaguru.

Icyapa gishyirwa impande y'inzira nyabagendwa, gifite ubuso bw'ubururu, gishushanyijemo n'ishusho ya mpande eshatu, irimo umugabo uri gutambuka mu mirongo y'umukara, iki cyapa cyerekana aho abagenzi bambukira.

Icyapa gishyirwa impande y'inzira nyabagendwa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru cyanditsemo mirongo itandatu mu ibara ry'umukara ritsiritse, munsi handitseho ko imbere hari kamera.

Icyapa cya mpande eshatu, gishinze iruhande rw'inzira nyabagendwa, kiyobora ndetse kikereka abayobozi b'ibinyabiziga ko mu muhanda barimo hari agahanda gato gashamikiye kuri uwo muhanda ku ruhande rw'ibumoso. Aho gishinze iruhande rwacyo, hari igiti gifite amashami.

Igipangu kiriho icyapa cyanditseho KG550 ST 9 bivuga ko ari igipangu cya cyenda kuri uwo muhanda nyine, iruhande rwacyo hari ibyatsi bateye.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru bushushanyijemo ikimenyetso cy'umusaraba mu ibara ry'umukara ritsiritse cyerekana ko umuhanda nyabagendwa ushamikiyeho utundi duhanda tubiri dutoya.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga kizengurutswe n'akabara k'umweru gifite ubuso b'ubururu kirimo utwambi twandikishije ibara ry'umukara ritsiritse twerekana ko ari umuhanda ukomeza ndetse n'undi muhanda ukata ikoni ry'iburyo.

Icyapa cya mpandeshatu gifite ubuso bw'umweru, kirimo ikimenyetso cy'umuhanda, ukata cyane cyandikishijwe umukara utsiritse, iki cyapa cyerekana ko mu muhanda hari ikoni.

Iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara hateye icyapa cya mpande eshatu zishushanyijemo, umugabo uri kwambuka mu mirongo y'umukara iki cyapa kigaragaza ko imbere hari umwanya wambukirwamo n'abanyamaguru.

Icyapa gisa n'umuhondo, mu buso bwacyo harimo imodoka ishushanyishije umukara ndetse n'umusozi w'umukara uri kurindimukwaho n'amabuye, icyapa gishingwa impande y'inzira nyabagendwa, kikerekana ko umuhanda ushobora guteza inkangu.

Impande y'umuhanda wa kaburimbo usa n'umukara hateye igiti, munsi hari icyapa cyerekana ko umuntu ageze ku murenge wa Giseke, imbere yacyo hari n'icyapa cyerekana ahari ibitaro bya Giseke.

Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu. Kikaba gifite ubuso bw'umweru, burimo agasaraba kandikishije ibara ry'umukara ritsiritse. Iki cyapa gishyirwa ku nzira nyabagendwa, kikabwira abayobozi b'ibinyabiziga ko, umuhanda bari kugendamo ushamikiyeho utundi duhanda iburyo ndetse n'ibumoso.

Umuhanda wa kaburimbo isa nk'umukara, iruhande rwayo hashinze icyapa cya mpandeshatu kizengurutswe n'akantu k'umutuku, mo imbere hari ubuso bw'umweru ndetse kikaba gishinze no mu busitani buri impande y'umuhanda.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga ubuso bw'umweru, kirimo imodoka ebyiri zishushanyije mu ibara ry'umukara ritsiritse, kikaba giciyemo umurongo w'umutuku uberamye, aha ngaha iki cyapa cyerekana ko imodoka zitemewe kuhanyura.

Umuhanda wa kaburimbo ufite igice ku ruhande rw'iburyo imodoka ziparikamo zigashyiramo cyangwa zigakuramo abagenzi ,hahagaze abagenzi benshi hari n'icyapa cyerekana ko imodoka zihahagarara.

Icyapa gishinze ku muhanda cyanditseho KK cumi na kane st mu ibara ry'umweru. Iki cyapa kigaragaza ko ugeze ku muhanda wa cumi na kane.

Agace k'imiturire karimo inyubako nyinshi zubakishije amabati mu buryo bucuritse bumena amazi, izi nyubako zubatse mu buryo bubusa harimo n'ibiti by'imbuto biteye.

Inzu y'amagorofa ifite imbuga ibinyabiziga birimo amamodoka biparikamo harimo imodoka y'umukara ndetse n'izindi ebyiri ziyiparitse ruguru, iruhande rw'iyi nyubako y'amagorofa haragendera imodoka y'umweru mu muhanda.

Ahantu bakorera amapikipiki hari ipikipiki isa n'umutuku baparitse bari gukora imbere yayo hari abantu batatu bahagaze ndetse hari n'umugore wambaye ijire y'umuhondo akorera Emutiyeni.

Agace k'imiturire karimo inzu zifite ibisenge bicuritse, harimo inzu zisakaje amabati y'umutuku, harimo inzu zifite inkuta ziteye amarangi y'umweru, hirya yaho hari umunara ukoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni.

Inzu y'amagorofa yubakishije ibirahure by'umukara bitabonerana, ifite inkuta zisize amarange y'umuhondo iruhande rwayo hari insinga z'amashanyarazi zinyura hejuru.

Umuhanda uri kugendwamo n'ibinyabiziga birimo imodoka y'ikamyo isa n'umweru, iruhande rw'umuhanda hateye ibiti bizana umuyaga, byongera n'ubwiza bw'umuhanda. Aha ni ku mujyi.

Inzu ifite uruzitiro ruteye umucanga, hari igisenge gisakaje amabati atukura ndetse hamanitseho n'antene ikoreshwa mu gufata amarezo ya televiziyo.

Ku cya mitsingi i Remera, hari inzu icururizwamo amata y'Inyange, ifite amarangi y'ubururu, ku nzugi zayo hashushanyijeho umwana uri kumwenyura, ufashe igikombe cy'amata.

Umuhanda w'igitaka umennyemo umucanga, iruhande rwawo hari urugo rufite uruzitiro rw'amatafari ahiye ndetse rukaba rufite n'urugi rwo ku irembo rusa n'icyatsi, impande yawo hari ubusitani buteyemo indabyo n'ibyatsi.

Hanze izuba riri kuva hari ibyatsi ndetse n'ibiti biteye inyuma y'uruzitiro rwubakishijwe amatafari ruriho utwuma hejuru turinda abajura, mo imbere harimo inyubako y'amagorofa isa n'umweru.

Agace k'imiturire karimo inzu zifite ibisenge byubatse mu buryo bumwe, iruhande rwaho imbere hari ahantu hari ibihuru birimo ibyatsi ndetse n'ibiti.

Inzu y'amagorofa iherereye mu Giporoso ikorerwamo na banki ya Kigali beka ishami rya Giporoso iruhande rwayo hari abantu benshi bayigannye, ndetse n'amapikipiki aparitse mu mbuga yayo.

Ku muhanda ujya kwa Rando, hari inyubako z'amagorofa, ndetse n'ahantu hari imbuga, ibinyabiziga biparikamo, imbere yaho haragendwa n'umuyobozi w'ipikipiki, ageze ku kayira kambukirwaho n'abanyamaguru.

Inzu y'amagorofa ifite igisenge gisakaje amabati atukura, ifite umureko inkuta zayo ziteye amarangi y'umweru iriho amadirishya akozwe n'ibirahure.

Urusinga rw'umukara rutwara umuriro w'amashanyarazi ruyajyana mu gace cyangwa se mu ngo z'abantu, amashanyarazi akoreshwa mu gucomeka ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo za mudasobwa, televiziyo ndetse na telefoni ngendanwa.

Inzu ifite uruzitiro rwubakishije amatafari y'urugarika, isize amarangi y'umweru ku gikuta cy'uruzitiro mu imbere harimo inzu ifite igisenge cy'amabati.

I Remera ahari resitora ndetse na bare by'impara, iyo uhagaze uba ubona inyubako z'imiturire zirimo amagorofa asize amarangi y'umweru ku gikuta, ibiti bitanga umuyaga mw'ako gace ndetse n'izindi nyubako zitari iz'amagorofa.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara nijoro amatara yo ku muhanda ari kwaka, hari imodoka yacanye amatara maremare iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'ibinyabiziga birimo imodoka y'ikamyo, ifite igice cy'inyuma kimeze nk'isanduku gitwarwamo imizigo gitwikirijwe shitingi y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo ufite igice giciyemo imirongo y'umweru cyambukirwamo n'abanyamaguru imbere yacyo hari isangano ry'imihanda ujya ibumoso ndetse n'ukata iburyo.

Nijoro amatara yo ku mihanda ari kwaka, Kicukiro hari ikiraro kinyurwaho n'imodoka zica ku muhanda wo hejuru ndetse n'izica ku muhanda wo hasi, imbere y'isoko rigezweho rya Kicukiro.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara ifite igice giciyemo imirongo y'umweru y'ubutambike cyagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru, umuhanda imbere haraturuka imodoka ndetse n'ipikipiki.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara, uragendwamo n'imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo ipakurura isa n'umweru, inyuma yayo haragendera indi modoka nto itwarwamo abagenzi.

Inzira nyabagendwa ifite igice kirimo imirongo y'umweru, cyagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru, hari umunyamaguru w'umugabo urimo wambuka, ibinyabiziga birimo imodoka, byahageze, birahagarara, bitegereza ko yambuka.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka ya bisi ndende isa n'umweru igeze mu ikoni aho igiye gukatira, igiye guhura n'amapikipiki abiri.

Umuhanda wa kaburimbo y'umukara, uragendwamo n'ibinyabiziga birimo imodoka zigendwamo mu buryo bwihariye, hari imodoka zisa n'umukara ziri kugendamo, zigeze ku gice cy'umuhanda banyuramo bazengurutse, kikaba kinateyemo ubusitani hagati yacyo.

Umuhanda wa kaburimbo usa n'umukara, iruhande rwawo hateye ibiti bibiri by'amapoto binyurwaho n'insinga z'amashanyarazi zinyura mu kirere.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara iciyemo imirongo y'umuhondo ndetse imbere yayo hari imirongo y'umweru icagaguye, aha ni igice cy'umuhanda kinyurwamo n'abanyamaguru bari kwambuka kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo ufite amapoto y'ibyuma hariho amatara amurika mubyerekezo byombi byumuhanda asize irangi ryumweru ndetse n'ubururu hasi.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umuhondo. iruhande rwawo hari agace gateyemo indabo ndetse n'ibiti. Ibingibi byongera ubwiza bw'umuhanda kandi ibiti bitanga n'umuyaga ndetse n'umwuka mwiza.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ikoni rikata, urasa n'umukara, iyo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze mu ikoni, aba asabwa kugabanya umuvuduko kugira ngo adakora impanuka.

Nijoro amatara araka yo ku mihanda ndetse n'ay'inyubako zikikije umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara, hari ikinyabiziga cy'ipikipiki cyacanye itara rirerire.

Mu muhanda wa kaburimbo y'umukara, iruhande rwayo hari icyuma gikoreshwa mu gufata amashusho y'ibinyabiziga birenza umuvuduko wagenwe umuyobozi w'ikinyabiziga ategetswe kugenderaho.